Icyapa cyamamaza telefone gisa umweru n'umuhondo, iruhande inzu z'ubucuruzi, imodoka zitwara abagenzi mu muhanda zisa mweruru n'akazu kariho ibirango bya MTN.

Umusore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, ahagaze imbere y'inyubako iriho ibirango bya MTN na Airtel ndetse na Tecno, afite igare mu ntoki.

Umukobwa wambaye agapfukamunwa k'ubururu, umupira inyuma, ijile y'umuhondo, afite ikarito y'umukara mu ntoki, yicaye ku ntebe y'umweru ku muhanda.

Abagabo babiri bafite terefone mu ntoki, umwe yambaye ijire y'umuhondo ya MTN, undi umupira w'umutuku harimo imirongo y'umukara n'umweru n'isaha ku kaboko.

Abasore babiri umwe afungiranye muriri giriyaje, afite ikayi mu ntoki, inyuma hari ibyapa n'ikirango cya MTN na Eyateli.

Ahantu hateraniye abantu benshi, abanyonzi bafite amagare ndetse n'abantu bambaye amajire, ariho ibirango bya Airtel, n'aho bubatse utuzu turiho ibirango bya Airtel.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro, ari gutambuka yinjira mu muryango w'inzu isize irangi ry'umutuku, hariho ibirango bya Eyateri byanditse mu irange ry'umweru.

Inzu z'ubucuruzi, imiryango ifunguye ikurikiranye, imbere hari abantu babiri, umwe afite intebe mu ntoki z'umweru ndetse ku ruhande umutaka urimo ibicuruzwa by'amoko atandukanye.

Abagabo bahagaze imbere y'inzu iriho ibirango bya MTN, Airtel na Tigo. Impande hari isoko ririmo ibintu bitandukanye.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, wambaye ikote n'ishati y'ubururu bwerurutse, n'ipantaro, ahagararanye n'umugore, bafite igihembo k'ishimwe, wambaye agapfukamunwa.

Igishanga kinini gihinzemo umuceri ndetse harimo n'abahinzi mu mirima gikikijwe n'ishyamba ry'inzitane ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abantu batatu bafite ibyansi by'amata ku mapikipiki ndetse n'undi ufite igare, mu muhanda hafi ibyatsi byinshi by'amatungo n'urugo ruzitiye.

Umugabo wambaye amadarubindi, agapfukamunwa, ingofero ndetse n'ishati, afite indangururamajwi mu ntoki inyuma ye hari inyubako zirunzemo ibiti zisakaje amabati.

Inzu yubakishije amabati y'ubururu n'imbaho ifite imireko, amakaro, ubutaka impande n'ibyatsi.

Umugabo wambaye ikote ari gushimira abandi umugore n'umugabo bitwaye neza kurusha abandi imbere y'imbaga y'abantu bicaye bari kubareba.

Itsinda ry'abantu bishyize hamwe bambaye imipira y'ubururu iriho ikirangantego ndetse n'abandi bambaye iy'umweru iriho n'idarapo ry'u Rwanda bicaye ahantu hatatse ibitambaro.

Abagabo babiri bambaye imipira yumukara hariho ikirangantego. Bari guha ishimwe umusaza wambaye ikote ry'umutuku wijimye n'umupira w'ubururu n'ipantaro.

Umugore uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki, ari kuganira n'abandi benshi cyane bambaye imipira isa ubururu hariho ikirango.

Abagabo batatu bicaye ku ntebe z'umukararu, impande, ameza, bari imbere y'igishushanyo kiriho ibendera ry'gihugu n'ikirangantego cyanditseho mu magambo y'umukara.

Abagabo n'abagore, bahagaze ku murongo, abagabo bambaye amakote ndetse bahagaze mu cyumba, gisize irangi ry'ubururu, bari kwifotoza.

Akabari gacururizwamo inzoga z'ubwoko butandukanye, gacanye amatara mu mabara atandukanye, hari ameza ariho ibitambaro bisa umutuku n'intebe zisa umukara.

Amacupa y'inzoga ateretse ku meza atatu ya pirimusi na amusiteri, n'intebe zisa umweru biri ku rubaraza imbere y'inzu.

Ameza abiri imwe iteretseho radiyo, indi icupa ry'inzoga, biri ahantu mu cyumba gisize irangi ry'umweru.

Amakesi asa umutuku, ubururu n'umukara, ateretsemo amacupa y'inzoga zisembuye z'ubwoko butandukanye mu muhanda.

Amacupa menshi y'ibyuma ateretse ahantu, arimo inzoga zisembuye z'amoko atandukanye. Iruhande handitse ibiciro byazo ku dupapuro.

Icyumba cy'ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, inzoga z'ubwoko bwose, amakayi, amavuta yo kwisiga, amavuta yo guteka, umunzani, n'amakaziye.

Umugore uri guseka wambaye ibitenge witeze n'igitambaro, ahagaze mu cyumba cy'ubucuruzi kirimo ibintu bitandukanye; imineke, amaji, amavuta, omo ndetse n'amafu.

Umugabo w'umucuruzi ahagaze mu iduka, ari kwandika afite ikaramu mu ntoki, ndetse n'amakayi acuruza ibintu byinshi bitandukanye, amavuta, omo, amasabune n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibiribwa byinshi n'ibinyobwa bitandukanye, abagore babiri, umucuruzi n'umuguzi bari kuganira ku ibiciro, bari gupima ibyo bamaze kugura k'umunzani.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye akagare k'abana, imbabura, imifuka ipakiye irimo ibintu iteretse ku meza y'ibiti ndetse hariho n'igitoki.

Amacupa menshi ya gaze asa umutuku ateretse ku byuma bisa umuhondo, abagabo babiri bambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ubururu na ga z'umuhondo afashe icupa mu ntoki.

Akabati gatereretseho ibikoresho byinshi bitandukanye, hejuru hamanitse utuyunguruzo tw'icyayi, ahandi hateretse saradine, ikarito y'inzembe.

Umugore ucuruje wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'umweru, hari imifuka irimo indagara, ubunyobwa n'imifuka iri mu mabara y'umweru n'umutuku.

Icyumba cy'ubucuruzi gifite amadirishya y'ibirahure kirimo utubati turimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye amata, amaji, ibisuguti, bombo ndetse n'amasafuriya.

Umucuruzi witeze igitambaro mu mutwe, akenyeye igitenge, ahagaze mu iduka ririmo ibiribwa bitandukanye; umuceri, ibisuguti, imifuka ya kawunga, amavuta yo kwisiga ndetse.

Abagabo batatu n'abagore babiri bahagaze bafite inyemezabwishyu mu ntoki y'amafaranga basinyiwe bahagaze imbere y'ihuriro ry'abantu benshi bicaye inyuma yabo.

Icyumba kimanitsemo umusaraba bigaragaza ko ari urusengero, abantu bari bafite telefone bari gufotora, bicaye ku ntebe bambaye n'amakanzu.

Inyubako y'urusengero yubakishije amatafari ahiye, isakaje amategura, impande hari izindi zisakaje amabati hazengurukijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Inyubako ndende ya Kiliziya yubakishije amatafari ahiye. Isakaje amabati y'umutuku. Iruhande, ikigega gifata amazi cy'umukara ndetse n'ubusitani bw'indabyo.

Urusengero runini, harimo intebe z'ibiti ziri ku ku murongo, rusize irangi ry'umuhondo, amadirishya mensh,i afunguye ndetse hejuru hamanitsemo n'amatara.

Abagore n'abagabo bahagaze, n'umwana, inyuma abambaye amakanzu.

Urusengero rurimo imitako ndetse n'indabyo z'amoko atandukanye n'amashusho ya bikiramariya, abapadiri bari guhereza abantu ukarisitiya bambaye udupfukamunwa.

Abantu benshi bari mu muhanda bari kugenda, hari ibiti impande n'imirima ihinzemo ibigori, bafite ikirango cyanditsemo ''twebwe urubyiruko rw'itorero rya adepr, twamaganye ibisindisha n'ibiyobyabwenge ari yo nzira yo kubaha Imana''.

Inyubako y'urusengero yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'umutuku, imbere hahagaze abantu benshi, haparitse n'imodoka, ubusitani bw'indabo ndetse n'ibiti.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri bishashe amashuka y'umweru n'umukara, impande akabati hanze hari ibiti.

Inyubako ndende ifite amadirishya n'inzugi bisize irangi by'umukara, imbere yayo hari ubusitani bwindabyo z'amoko menshi, intebe zo kwicaramo ndetse na pisine.

Icyumba kinini gisize irange ry'umweru kimanitsemo amarido n'imitako, igitanda gishashe neza n'amashuka y'umweru.

Icyumba kinini kicanyemo amatara, gitatsemo imitako y'amoko atandukanye, harimo intebe nyinshi, ameza ariho ibitambaro by'umutuku ndetse n'utundi tw'umweru, n'amasahane n'ibikombe.

Icyumba kirimo umuntu uri guseka fanta mu kirahure, imbere ye ameza ariho amasahani n'ibiryo by'ubwoko butandukanye, inyama ndetse n'imboga.

Icyumba kinini kirimo imitako myinshi itandukanye, indabo z'ubwoko bwinshi, intebe n'ameza, amatara hejuru ari kwaka ubururu.

Icyumba kinini kimanitsemo amarido afunguye, hanze hari intebe n'ameza ndetse n'ibyatsi bihakikije by'amoko atandukanye n'inzu zo guturamo.

Igorofa ndende mo imbere amatara ari kwaka, inyuma yayo hari intebe n'ameza byo kwicaramo, n'imitaka n'amazi yo kogamo.

Icyumba kinini kirimo imitako ku ibkuta, itara ririmo kwaka, hari n'igitanda gishashe neza gifite idirishya ririho amarido.

Icyumba kinini kimanitsemo inzitiramibu, gisashe neza harimo igitanda n'amashuka asa umuhondo, hamanitsemo amarido, gisize irange ry'umweru harimo na televiziyo.

Isoko rinini rikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hari inyanya intoryi, karoti, imiteja, ibitunguru, abacuruzi bahagaze muri iryo soko n'ibindi bipakiye mu mufuka w'umweru.

Umuhanda munini urimo umuntu uri gutambuka wikoreye umufuka urimo ibintu, ubusitani bw'indabo n'inyubako y'amatafari ahiye, ibiti by'amoko menshi ndetse n'icyapa gisize irangi ry'ubururu n'umweru.

Abantu benshi bahagaze mu isoko higanjemo igitsina gore, bari guhaha bafite imyenda mu ntoki, bari kubaza ibiciro ndetse n'ubwoko bw'inkweto n'amabase bitandukanye.

Abagabo babiri bari kuganira bambaye amashati y'umweru n'amapantaro, umwe afite inkoni mu ntoki, inyuma hari abandi bantu benshi bari kugenda batambuka.

ihene eshatu, ebyiri zisa umukara, zambaye ibiziriko mu ijosi, ziziritse ku giti cyumye, ziri kurisha mu gisambu kirimo ibyatsi.

Imifuka igiye itandukanya uw'icyatsi, iroze, n'undi w'umweru, urimo ibikombe bipakiyemo umunyu, ndetse imbere hahagaze umuntu wambaye inkweto, n'uducupa turimo amavuta yo guteka.

Abagenzi bahita bavuye mu isoko guhaha imyenda y'imbere ndetse n'umunyonzi ufite igare ahagaze mu muhanda ari kugenda.

Inzu yubakishije amabati y'umutuku mo imbere hamanitsemo ibigori byumye, ikikijwe n'ibiti, ku ruhande hari ikigega cy'amazi gisa umukara.

Inzu irimo intebe, utubati n'amatara menshi, n'indabyo zihatatse, igaragaza ko ari akabari karimo, hari amacupa ateretsemo.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, kirimo intebe nyinshi z'umutuku n' ameza, abiri ariho igitambaro, kiriho imitako.

Umunyonzi uri mumuhanda atwaye igare ahetseho umufuka urimo ibintu, hejuru y'umuhanda hari umuzenguruko w'amabati n'inyubako zo guturamo ndetse n'ibiti.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, agapfukamunwa k'umutuku, ingofero y'ubururu, yicaye mu modoka imbere y'inyubako yanditseho amagambo y'Icyongereza ndetse n'ubusitani bw'indabo ku ruhande.

Ipikipiki itwaye umugenzi mu muhanda munini wa kaburimbo, iruhande hari ishyamba ry'ibiti by'amoko atandukanye n'icyapa kiri mu mabara y'umutuku, umweru n'umukara.

Abanyozi bicaye ku magare, bambaye amajire y'icyatsi bari kuvugana n'abagenzi, bari mu muhanda munini ukikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye, hakurya hari umusozi utuweho.

Umugabo utwaye ipikipiki mu muhanda, iruhande haparitse imodoka y'umukara n'igare, inyubako zikorerwamo ubucuruzi bakora intebe inzugi hari n'ibiti.

Umumotari utwaye ipikipiki mu muhanda wa kaburimbo, iruhande hari amazu y'ubucuruzi asize irangi ry'umweru yubatse ku murongo, imbere hari intebe ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abamotari benshi bari hamwe ndetse na moto ku ruhande zabo, bambaye ingofero bari kumwe n'umupolisi, arikubaha amabwiriza, afite indangururamajwi mu ntoki n'agapapuro.

Umumotari utwaye ipikipiki mu muhanda w'amabuye , iruhande hari igiti cy'indabyo n'inyubako z'ubucuruzi n'ibiti by'amoko menshi atandukanye.

Umumotari utwaye ipikipiki mu muhanda, yambaye ingofero, ijire n'ipantaro n'umupira, impande hari umwana uhahagaze ndetse n'ibiti by'indabo.

Umumotari utwaye ipikipiki mu muhanda ari gutambuka impande ahantu haparitse imodoka ebyiri, ndetse n'inyubako impande ibiti by'indabo.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu, amapikipiki atwaye abagenzi, impande inzu z'ubucuruzi, ibiti by'amoko menshi.

Umunyonzi wambaye ingofero n'ishati n'ipantaro utwaye igare, ririho akajerekani, ndetse inyuma umufuka w'ubwatsi, mu muhanda munini, iruhande haparitse imodoka, n'inyubako isa ubururu.

Umugore'umugabo bicaye ku ipikipiki bari mu muhanda, munini hirya ibyatsi n'inyubako, nyinshi zitandukanye ziri mu mabara y'umweru.